Ubujerekani bw' arindwi buhagaze, bupfundikiye n'imifuniko y'ubururu, ubundi buryamye, ubujerekani buriho ibyapa bishushanyijeho inka, n'ibindi byapa bishushanyijeho ijana ku ijana.